Ni umwana urimo kwandika ku kibaho, akaba arimo kwandika inyuguti zigiye zitandukanye zirimo nka A na B ndetse na N, ibi bikaba bimufasha kuba yazamura ubumenyi ndetse akamenya no kwandika mu buryo bumworoheye.

Ni amashusho yerekana umuryango, umugabo akaba afashe igitabo, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibindi bitabo, ibi bikaba bifasha abana bakiri batoya mu kwiga ndetse no kugira ubumenyi bugiye butandukanye bw'imibereho y'abana mu muryango.

Ni icyumba, kirimo ibikoresho biri mu mabara agiye atandukanye, arimo icyatsi, umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'andi, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abana, mu kwiga ndetse no gufata amasomo.

Ni ibikapu biri mu mabara atandukanye harimo: umutuku ndetse n'umukara. Bikaba byifashishwa n'abanyeshuri bakiri batoya mu gutwaramo ibikoresho by'ishuri. Ibi bikaba bibafasha mu kurinda ibikoresho byabo ko byakwangirika.

Ni amashusho ashushanyije ku gikuta, bakaba arimo kwerekana uburyo igihingwa kimera kuva gitewe kurinda kigeze hejuru, ibi bikaba bifasha abana mu kuba bagira ubumenyi bugiye butandukanye uburyo ibihingwa bikura.

Ni igikapu kiri mu ibara risa n'umutuku. Kikaba cyifashishwa n'abana bakiri batoya mu gutwaramo ibikoresho by'ishuri birimo amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi. ibi bikaba bimufasha kuba yarinda ibyo bikoresho kuba byakwangirika.

Ni ishuri riri kugaragaraho ibishushanyo mfashanyigisho ku bana batoya, k'indobo, imikubuzo, amabase, ibinyabuzima bitandukanye nk'amasazi n'amafi.

Ni ibikoresho biri mu mashusho ya mpande eshatu, mpande enye ndetse n'uruziga, bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwihugura ndetse no kuzamura ubumenyi bwabo mu masomo bagenda biga umunsi ku munsi.

Ni amashusho y'ikiyaga hakaba harimo umuntu utwaye ubwato, ibi bishushanyo bikaba bifasha abana bakiri batoya mu kwiga no kuba bagira ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye birimo ibiyaga ndetse n'ibindi.

Ni abana barimo kurya iminyega ku byuma byabugenewe byifashishwa n'abana igihe barimo kwishimisha, ibi bikaba bifasha aba bana mu kuba bagirana ubusabane kandi bikabafasha kungurana ubumenyi ku bintu bitandukanye biba byabahujije.

Ni igiti cy'inganzamarumbu kikaba giteye hagati mu mbuga y'ikigo, kikaba gikikijwe n'amashuri, inyuma y'amashuri hakaba hari andi mashamba y'ibindi biti.

Ni umwana w'umunyeshuri wambaye inifomo, akaba ahagaze arimo kwitegereza ibintu biri imbere ye, ibi ngibi bikaba bimufasha kuba yakwagura imitekerereze ye.

Ni inyubako ndende igerekeranye ikaba ihagazemo abana b'abanyeshuri, iruhande rwayo hakaba hahagaze abandi bana. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kubona ibyumba bigari bihagije bibafasha mu kwiga.

Ni umwarimu , abakaba ahagararanye n'umunyeshuri, akaba arimo kumusobanurira ku kibaho gisa n'umukara, ibi bikaba bifasha umunyeshuri kuba yagira ubumenyi buturutse ku mwarimu.

Ni ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye, hakaba harimo ibyifashishwa mu guca imirongo ndetse hakaba harimo n'ibyifashishwa mu kwandika, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku masomo abarimo kwiga.

Ni amashusho y'inyamanswa zigiye zitandukanye zirimo inzovu ndetse na bakame, inyuma yabo hakaba hari amashyamba, ibi bishushanyo bikaba bifasha abana bakiri bato mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku bintu bombi.

Ni ibikoresho by'ubwoko butandukanye, bikaba biri mu mabara atandukanye, harimo icyatsi, umutuku w'ubururu n'umuhondo, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abana mu kwiga amasomo atandukanye.

Ni ni ibishushanyo bigaragaza abana bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ikibaho cyanditseho amagambo agiye atandukanya, ibi bikaba bifasha abana mu kwiga ndetse no kugira ubumenyi bunoze.

Ni ibikoresho byifashishwa n'umuyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye arimo imibare ndetse n'andi, bikaba bimufasha mu kwihugura ndetse no mu kuzamura ubumenyi mu guca imirongo ndetse n'inziga.

Ni ibyumba by'amashuri, bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwiga no kwihugura ku bumenyi mu masomo agiye atandukanye, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kwigira ahantu hasukuye kandi habafasha mu kwirinda kuba banyagirwa n'imvura.

Ibishushanyo biri mu bwoko bugiye butandukanye, hari ikiriho abana bicaye, ikindi kikaba kiriho abana ababyeyi bahagaze, ikindi kikaba kiriho umubyeyi wicaye n'umwana, ikindi kikaba kiriho amashuri, ibi bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwihugura ubumenyi.

Ni icyumba cyifashishwa n'abana b'abanyeshuri mu kwiga. Imbere hakaba hari ibyapa byifashishwa n'abanyeshuri n'abarezi mu kwandika. Ibi bikaba bifasha abana kubona aho bigira ndetse hameze neza.

Ni inyubako, imbere yayo ikaba iriho ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abana b'abanyeshuri bakiri batoya, ibi bikaba bibafasha mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku masomo biga.

Ni ibikoresho biri mu mashusho agiye atandukanye. Mpande eshatu, mpande enye, ndetse n'uruziga, bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwiga, ndetse no kwihugura ibi bikaba bibazamurira ubwenge ndetse n'ubumenyi.

Ni igikapu cyifashishwa n'abanyeshuri mu gutwara ibikoresho by'ishuri birimo: amakayi, amakara ibi bikaba bibafasha mu kubibika ndetse no kubicungira umutekano wabyo.

Ni umwarimu akaba atunze ikiganza iwabo kifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, akaba arimo kubigisha amasomo atandukanye. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kugira ubumenyi ku masomo haba agiye gutandukanye baba bize.

Ni ibikoresho bitandukanye birimo ibyo kwandika, ibyo guka, ibi bikoreshwa bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga amasomo atandukanye.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ibyifashishwa n'abana mu gushushanya, ibi bikaba bifasha abana mu kuba bashushanya ibintu bigiye bitandukanye bibafasha kuzamura ubwenge bwabo.

Ni icyapa kikaba kiriho inyuguti z'ikinyarwanda. Kikaba kifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi bikaba bibafasha mu gusobanukirwa indimi.

Ni ibishushanyo, bikaba biri mu mabara atandukanye harimo: ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga, bikaba bibafasha mu kwihugura no kugira ubumenyi ndetse bitandukanye.

Ni abanyeshuri bambaye imipira y'imihondo bakaba bambaye n'amapantaro ya kake , bakaba batondetse umurongo bari kujya mu cyerekezo kimwe.

Ni inyubako z'amashuri zikaba zikirimo kubakwa imbere yazo hakaba hahagaze abanyeshuri ndetse hakaba hariho n'intebe zifashishwa n'aba banyeshuri igihe cyo kwiga.

Ni abanyeshuri bicaye mu cyubumba. Bakaba bambaye impuzanmkano y'ishuri riri mu mabara y'icyafi n'umweru. Bakaba barimo kwiga. Ibi bikaba bibafasha mu kubona uburezi bunoze.

Ni abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bakaba bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba barimo kuganira, ibi bikaba bibafasha kuba bafungurana ubumenyi bugiye butandukanye ku masomo baba bize kuri uwo munsi.

Ni abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa. Bakaba bambaye impuzanKano iri mu ibara ry'umweru ndetse na kaki. Imbere yabo hakaba hari abapadiri, bakaba bahagaze mu rusengero bakaba bitabiriye igikorwa cyo gusenga.

Ni icyumba kirimo abanyeshuri bicaye bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru, imbere yabo hakaba harimo urimo kubasomera nabo barimo kwandika, ibi bikaba bibafasha mu kubona uburezi bunoze kandi buza umuze.

Ni umunyeshuri uhagaze imbere y'abandi banyeshuri, bakaba afashe mikoro akaba arimo kuyivugiramo, ari gutanga ikiganiro ku bandi banyeshuri. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kuyungura ubumenyi ku ngingo zigiye zitandukanye.

Ni abagabo bicaye, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi, hakaba harimo abambaye imyenda y'amajire ari mu bwoko bw'icyatsi ndetse n'umutuku.

Ni abanyeshuri bicaye mu cyumba, bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari imashini zifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga, ibi bikaba bibafasha mu kubona uburezi buhamye kandi bworoshye.

Ni icyumba kicayemo abana b'abanyeshuri, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu urimo kubigisha, akaba arimo kubaha impanuro masomo biga, ibi bikaba bibafasha mu kubona ubumenyi buhagije ku masomo baba bari kwiga.

Ni amashiga akaba yubatse mu buryo bwa kijyambere, akaba arimo ibikoresho byifashishwa mu gutekera abanyeshuri. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kubona amafunguro abatunga igihe bari ku ishuri.

Ni icyumba, kikaba kirimo ibikoresho bigize bitandukanye, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe cyo kwiga amasomo agiye atandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi buhagije, ku masomo baba bari kwiga.

Ni umunyeshuri wahagaze imbere y'abandi banyeshuri, akaba afashe indangururamajwi, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano irimo amabara ya kaki, iruhande rwabo hakaba hari abandi bambaye ibikomo biri mubara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, inyuma yaho hakaba hari ibyumba by'amashuri.

Ni ikibaho gisa n'umweru, kikaba cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, kikaba cyanditseho amagambo barimo gusobanurira abanyeshuri.

Ni igishushanyo cy'umuntu urimo gucuranga, ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru mu kwiga ndetse no gufata ubumenyi mu masomo agiye atandukanye harimo gushushanya ndetse n'andi.

Ni abanyeshuri bicaye, bakaba barimo kwandika kandi bakurikiye umuntu urimo kubigisha imbere, inyuma yabo hakaba harimo intebe zitagira abantu bazicayeho, bakaba barimo kwakira ubumenyi no kubafasha kuzabaho mu buzima bwo hanze.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri, bakaba bari kugenda mu nzi nyabagendwa, iruhande rwabo hakaba hari amashamba ya kimeza, imbere yabo hakaba hari inyubako zifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga.

Ni abanyeshuri, bakaba bicaye ku ntebe, bakaba barimo gukurikira amasomo ari gutangwa n'umwarimu, inyuma yabo hakaba hari amashamba, ibi bikaba bibafasha kubona uburezi buzira umuze.

Ni urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri makuru na za kaminuza, hakaba harimo abari kwandika mu makaye ndetse harimo abari gukoresha amamashini, bakaba barimo kwiga amasomo abafasha mu buzima busanzwe bwa buri muntu.

Ni urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bicaye mu cyumba, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, hakaba harimo abari kwandika ku mpapuro ndetse birimo no gukoresha amamashini, ibi bikaba birimo kubafasha mu kwiga ndetse no gufata amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urugi rw'shuri ryisumbuye, rukaba rukozwe mu byuma rukaba rurimo ibirahure, hakaba hari agapapuro kariho imibare igiye itandukanye ndetse n'inyuguti.

Ni urubyiruko rw'abanyeshuri. Bakaba bambaye imyenda y'ubwoko bugiye butandukanye, iri mu mabara asa n'umweru ndetse n'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibinyobwa birimo amazi. Bakaba barimo kwiga uburyo bwo kwiteza imbere.